Abagabo batatu n'umudamu umwe bose bahanze amaso mudasobwa, imbere yabo bafite ibinyobwa by'amazi n'impapuro zererana biri ku meza bari mu nzu nziza iteye amarange meza ubona ko ifite isuku.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe nziza zifite ibara ry'umweru, aho bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bashyize umutima hamwe no kuvugutira umuti ibibazo bafite, bakabikemura mu buryo busesuye kandi burambye.

Umudamu mwiza w'inzobe wambaye ikanzu isa ubururu bwijimye uhagaze ubona ko ari kujya inama n'abantu tutari kubona imbere ye hari ikinyobwa cyamazi.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe nziza zifite ibara ry'umukara n'ameza ateguye ariho ibinyobwa by'amazi n'indangururamajwi, imbere y'izo meza hari insakazamashusho ziri kwaka.

Ikoraniro ry'abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, hagati yabo hari umuntu ufite indangururamajwi, ufite icyo ari kubagezaho, ubona bafite insanganyamatsiko imwe, banyotewe no kugera ku byo bifuza, imbere yabo hakaba hari mudasobwa n'agacupa karimo ikinyobwa cy'amazi.

Imbaga iteraniye hamwe abantu b'ingeri zose bose bahagaze bari gukoma amashyi bishimye, imbere yabo hari ibinyobwa by'amazi n'ameza ateguye neza ariho ibitambaro by'umweru, bose ubona ko bafite insanganyamatsiko imwe bashyize n'umutima hamwe.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe nziza z'umukara, imbere yabo hari mudasobwa n'ikinyobwa cy'amazi, aho bashyize umutima hamwe, bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bashyize umutima hamwe no gutsinda ku byo bifuza kugeraho.

Abantu basa nkaho bishimye bari mu nama, ubona ko hari ingingo runaka bari kuganiraho, ubona bateze amatwi kandi bishimiye ibyo barimo. Imbere bafite amazi, bafite ibyo kunywa, bafite n'ibinyobwa bisembuye, ubona ko bari kujya inama y'icyo bakora kandi buri wese atuje.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo bafite ibinyobwa by'amazi n'icy'umutobe ukoze mu mwembe aho bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho bose ubona ko bashyize umutima hamwe mu cyabateza imbere.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo abagore n'abagabo, bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bashyize umutima hamwe, basa nk'aho hari icyo bashaka kugeraho cyabateza imbere, kandi mu buryo bwihuse.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebeba ziba zifite ibara ritukura n'ameza ariho ibinyobwa by'amazi, bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bashyize n'umutima hamwe.

Abantu bateraniye hamwe, harimo abagore n'abagabo, bari bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bashyize umutima hamwe, bose bafite icyerekezo kimwe cyo kwiteza imbere, bafashanya mu byo bakora byose.

Abantu bateraniye hamwe higanjemo ab'ibitsina byombi, imbere yabo hateretse ibinyobwa by'amazi na mudasobwa, aho bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, ubona bashyize umutima hamwe ku cyabateza imbere.

Imbaga nyamwinshi abantu bateraniye hamwe bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, aho bose bafite ibimwenyu ku maso banezerewe bafite insanganyamatsiko imwe, n'umugambi umwe bari kwigaho.

Imbaga y'abantu yiganjemo abagore n'abagabo bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe nziza zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ibinyobwa by'amazi, n'impapuro z'umweru ziriho ibyo bari kwigaho, aho bafite insanganyamatsiko imwe bashyize umutima hamwe no gushakira umuti ikibazo bari kwigaho.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo abagore n'abagabo bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hateretse ibinyobwa by'amazi n'amakayi yo kwandikamo ibivugirwa mu nama barimo.

Abantu bicaye ku ntebe z'imyeru imbere yabo hari mudasobwa ubona ziri kwaka ziteretse ku meza akoze mu mbaho, bari ahantu mu nzu ubona ko irimo mudasobwa nyinshi ifite isuku kandi iteye n'amarange meza aho ubona banezerewe bafite umugambi w'ibyo bari gukora.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe, bambaye udupfukamunwa, umwe ufite mudasobwa mu kiganza cye, undi afite telefone ngendanwa, urabona ko bahuze bari kuganira.

Urubuga rwo murandasi, rwifashishwa usura urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'igihugu, waba wifuza gusura ibice nyaburanga bitandukanye by'igihugu wabisaba unyuze...

Ingaruka mbi zo kujugunya ibikoresho by'ikoranabuhanga ahantu hose tubonye kuko byangiza ibidukikije, twirinda kubijugunya aho tubonye tukiga kubishyira ahabugenewe, tugatera ibiti, tukagira igihugu kirimo ibidukikije bidufasha kuduha umuyaga duhumeka.

Ikirango kinini kiri mu mabara y'ubururu yandikishije inyuguti z'umweru cyerekana uko wamenyekanisha umusoro ukoresheje telefone ngendanwa, cyangwa uciye murandasi ukabasha kubyikorera udahezwe kandi ku mafaranga makeya cyane.

Imbuga ngari iri hagati mu mujyi abantu bifashisha baje kuharuhukira hari ibidukikije bibaha akayaga hari n'uduhanda twiza twagenewe gutambukwamo n'abanyamaguru gusa, aho ubona bibereye ijisho kandi ari byiza kuhagenda cyangwa kuhicara.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu n'ibintu, kiri iruhande rw'insakazarumuri ruzwi nk'inkingi y'amashanyarazi, ku ruhande haparitse ibindi binyabiziga byinshi, harimo ibitwara imizigo n'ibitwara abantu.

Inkingi z'amashanyarazi, ubona ziri ahantu ha zonyine hadaturanye n'abaturage, aho zifasha gutambutsa amashanyarazi, ziyavana mu gace kamwe, ziyajyana mu kandi, mu buryo bwihuse, kandi butabangamiye ikiremwamuntu.

Umunara muremure wagenewe kuvana amashanyarazi mu gace kamwe uyajyana mu kandi, ushinze mu nkengero z'inzu zituwemo n'abaturage hateye n'insina...

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza ufite isuku kandi ukeye ku nkengero zawo arabwira ko abanyamaguru hakorerwa ubucuruzi bw'ibijyanye n'itumanaho ku nkengero z'uruhande rw'akayira k'abanyamaguru hateye inkingi itambutsa amashanyarazi ayavana mu gace kamwe iyajyana mu kandi iruhande rwayo hateye ibiti byiza cyane.

Iki ni igikorwa remezo cy'ipoto y'amashanyarazi aho ikoreshwa mu gutambutsa amashanyarazi iyavana mu gace kamwe iyajyana mu kandi mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Inkingi itambutse amashanyarazi, iwuvana mu gace kamwe iwujyana mu kandi, yegeranye n'amazu y'abaturage iruhande, hashinze ibiti birebire cyane by'icyatsi kibisi bitanga akayaga.

Igikorwa Remezo cy'inkingi y'amashanyarazi, iyavana mu gace kamwe iyajyana mu kandi, iri ahantu hagenewe kujya ibikorwa Remezo hadaturanye n'abaturage kandi hari umutekano w'abantu n'ibintu byabo.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari unyurwamo mu byerekezo byombi, ku nkengero zawo haparitse ibinyabiziga byegeranye n'inkingi zimurikira umuhanda, hateye n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga kubawunyuramo.

Ibikorwa remezo by'umuhanda uhagazeho imodoka nini yagenewe gutwara abagenzi, iruhande rwayo hari inkingi itambutsa amashanyarazi iyavana mu gace kamwe, iyajyana mu kandi, hakaba hateye n'ibiti byiza cyane.

Igikorwa remezo cy'umuhanda ugaragara agace gatoya, wegeranye n'akayirara kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, ku ruhande rwo ku nkengero z'akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, harimo inkingi itambutsa amashanyarazi iyavana mu gace kamwe iwujyana mu kandi, ishinze mu bwatsi ijyanye n'urugo rw'ibidukikije.

Ku nkengero z'umuhanda hari umunara cyangwa inkingi yagenewe gutambutsa amashanyarazi, iyavana mu gace kamwe iyajyana akandi, hasi hateye ibiti n'indabo, ku ruhande hari icyapa cyerekana aho ibinyabiziga binyura bizenguruka.

Ibikorwa remezo by'umuhanda higanjemo urujya n'uruza rw'abantu, ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru gateyeho inkingi zimukira umuhanda n'izindi nkingi zitambutse amashanyarazi ziyavana mu gace kamwe ziyajyana mu kandi ubona ko hatuje kandi hatekana.

Imbuga ngari, iri ku gice cyegeranye n'ubusitani butoshye kandi busa neza, ku kindi gice amazu afite isuku kandi yubatse mu buryo bugezweho, afite n'amasakaro meza kandi akomeye.

Izi nyubako nyinshi zubatse ahantu hateganyijwe kubakwa, ubona kotari mu manegeka ,zifite amasakaro meza, imbere yaho hari ubusitani bwiza, buteyemo ibiti byiza, bitarakura neza.

Ubusitani bwiza butoshye buteyemo ibiti kandi busa neza bubereye ijisho, buzengurutswe n'amazu maremare yubatswe mu buryo bugezweho afite amasakaro meza yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu nziza y'umuturirwa isize amabara y'umuhondo, hasi hakaba hari umu mama wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara bisa nkaho agiye kugira ikintu ashakayo.

Ikirango kinini cyerekana ibitaro bya kabgayi byubakishije amazu meza, n'umuhanda w'ibitaka winjiramo hateye n'ubusitani bwiza nibiti birebire cyane.

Imbuga ngari iteyemo ubusitani bwiza n'ibiti bitarakura neza, izengurutswe n'inyubako zisa neza kandi zifite isuku, zisize amabara y'umuhondo n'umweru n'amasakaro meza kandi agezweho.

Inzu nziza iteye amarangi y'umuhondo ifite amabati meza imbere ya hari ibendera rishinze mu busitani bukozemo mu buryo bw'uruziga n'ahantu hari imbuga ngari ubona ko hagenewe kujyamo ibintu runaka.

Abaturage bahagaze ahantu hafite isuku kandi hatekanye ubona ko bishimye bategereje kwakirwa ngo nabo bahabwe ibyo bakeneye kandi bishimye badahenzwe cyane.

Abagabo n'abagore bose bahagaze harimo abashinzwe inzego z'umutekano zinyuranye, harimo n'abantu basanzwe bahagaze bari kwifotoza, ubona bishimye kandi bagambiriye gukora icyaganiriweho.

Abadamu babiri b'abacamanza imbere yabo hari ibinyobwa by'amazi barangamiye amaso kuri mudasobwa, no ku meza hari impapuro nyinshi imbere yabo hahagaze abagabo b'abagororwa babiri, ubona ko bari kujya inama y'uburyo bakwitwara mu rubanza rwabo.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'abacamanza, afite ibara ry'umukara n'abategarugori babiri bambaye amakanzu y'ibara ry'iroza, bari bafite impapuro mu ntoki, imbere yabo hari mudasobwa n'agacupa karimo ibinyobwa by'amazi. Imbere yabo hari imeza bari mu nzu nziza, ifite irange ry'umweru.

Abantu bateraniye hamwe, harimo abagore n'abagabo, bicaye bose bambaye udupfukamunwa n'amakanzu y'umukara y'abacamanza, arimo akabara k'umweru, imbere yabo hari mudasobwa n'ibinyobwa by'amazi n'indangururamajwi bose bari hamwe ubona bashyize umutima hamwe.

Imbaga y'abantu bateraniye mu nzu yagenewe gukorerwamo inama, higanjemo abagore n'abagabo, hari abagore n'abagabo bahagaze bambaye amakanzu y'abacamanza, bari imbere y'amabendera y'igihugu bamanitse ikiganza cy'iburyo, bari kurahira ku nshingano bari bahawe.

Abantu bateraniye hamwe imbere y'aho hari umucamanza w'umudamu n'umugabo uhagaze ku meza ateriretseho mudasobwa n'ikinyobwa cy'amazi imbere yabo hicaye umugororwa nabashinzwe umutekano we.

Inyubako ndende kandi yubakishije amatafari ahiye ari ryo gororero rya Nyarugenge, rifite umuryango usize ibara ry'umukara. Imbere hari abagabo bari gusohoka ubona bishimye kandi banezerewe.

Umugabo wicaye w'igikara ufite agasatsi gakeya wambaye ikoti ry'umutuku wambariyemo n'agapira k'umuhondo ubona ibinezaneza ku maso ye ubona ko ashimishijwe no kuba ariho.

Inyubako ndende y'igororero rya Nyarugenge ifite uruzitiro rw'amatafari ahiye, ku gipangu hari abagabo bambaye impuzankano ziranga abafungiwe muri iryo gororero, iruhande rwabo hari ushinzwe umutekano wabo uhagaze.

Inama y'abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ahantu mu bwatsi bwiza, bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bashyize umutima hamwe wo gushakira ibisubizo ibibazo bafite.

Umutegarugori mwiza wambaye amadarubindi, wambaye impuzankano z'abacamanza, ubona wishimye ari kwitegereza cyane, wicaye kandi afite umutuzo anatekanye.

Imbaga y'abacamanza benshi yiganjemo abagore n'abagabo aho ubona ibinezaneza biri ku maso yabo n'umucyo utamirije ibyishimo bafite aho bose bahagaze barangamiye amaso ikintu kimwe bafite n'insanganyamatsiko ibate.

Abacamanza bambaye amakanzu meza y'imikara, bamanitse ibiganza, bari imbere y'amabendera, inyuma yaho bateye umugongo imbaga nyamwinshi yitabiriye igikorwa bajemo.

Imbaga y'abantu batwara ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri bizwi nk'ipikipiki, imbere yabo hahagaze ushinzwe umutekano wo mu muhanda ubona ari kubaha amabwiriza y'ibigomba gukorwa no kubahirizwa uburyo bwiza.

Icy'umuhanda mugari urimo umurongo urombereje, hari ikinyabiziga kigenewe kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro, ku nkengero z'umuhanda ahagenewe guhagarara ibinyabiziga hari ikinyabiziga cyagenewe kwikorera imizigo bari kuzimya cyafashwe n'inkongi y'umuriro.

Abagabo babiri bashinzwe umutekano wo mu muhanda, bahagaze imbere y'akazu kagenewe guhagararwamo n'abagenzi batega ibinyabiziga, aho bari kuganira bajya inama y'uburyo bakora akazi kabo mu buryo bunoze.

Kizimyamwoto ebyiri zegeranye ziteye mu gikuta imwe ifite ibara ry'umweru irindi ifite iry'imituku, aho zifashishwa mu kuzimya umuriro vuba kandi byihuse, iyo uyifite bigufasha bikanakorohereza kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro.

Kizimyamuriro ishinze ku gikuta ifite ibara ritukura, hariho agapapuro gafite ibara ry'umweru, kerekana uburyo ikoreshwa, aho yifashishwa mu kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Kizimyamuriro nyinshi ziri hamwe zifite ibara ritukura, zifashishwa mu kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse kandi butagoye, wayitunga iwawe ikagufasha kwirinda inkongi y'umuriro.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari uteyemo ibiti byiza cyane, hari urujya n'uruza rw'abayobozi b'ibinyabiziga. Imbere yabo hahagaze abashinzwe umutekano wo mu muhanda, bari kubaha amabwiriza bababwira ikigenderewe.

Kizimyamuriro ifite ibara ritukura, hariho agapapuro k'umweru, kandikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'umukara, asobanura uburyo ikoreshwa, ikaba iteretse ahantu, yifashishwa mu kuzimya umuriro, mu buryo bwihuse kandi vuba.

Kizimyamuriro yifashishwa mu kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse, kandi vuba, aho buri muturage asabwe kuyigira iwe, kuko iyo uyifite hehe no gufatwa n'inkongi y'umuriro cyangwa ngo ibintu byawe byangirike,, kuko biba byoroshye kuhazimya.

Inzego z'umutekano zishinzwe kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro, bambaye impuzankano yabo, bari kumwe n'abana batoya, babigisha uko babasha kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro, mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse kandi vuba bitakugizeho ingaruka cyangwa ngo bigukomeretse aho hahita hasubira uko hari hameze mu gihe ugikoresheje vuba.

Umuhanda mugari uhagazemo abayobozi b'ibinyabiziga by'amapikipiki, ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru bahagazemo, ushinzwe umutekano wo mu muhanda uri kuganira n'umuyobozi w'ikinyabiziga.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, ku nkengero zawo hari inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru ubona bari gutambuka bishimye kandi bafite umutekano, iruhande rwabo hahagaze ushinzwe umutekano wo mu muhanda uri kureberera ibinyabiziga nimba ntamakosa bikora.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe nziza zifite ibara ry'ubururu, ubona bose bakeye, umwe wamanitse agatoki kamwe ufite insanganyamatsiko imwe, bari no kuganira bungurana ibitekerezo.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubururu, inyuma ye hicaye abantu b'ingeri zose, harimo abagabo n'abagore, imbere ye hari indangururamajwi ubona ko ari kugeza ku bantu ijambo, ubona bafite insanganyamatsiko imwe, bashyize hamwe, banyotewe n'ibyo bifuza kugeraho.

Imbaga y'abantu nyamwinshi iteraniye ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, aho batonze umurongo imbere y'icyumba cy'itora cyubatse neza gifite amasakaro ameze neza.

Imbaga y'abantu benshi ubona bose bahagaze barangamiye imbere, higanjemo abagore n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso n'umukuru w'lgihugu cy'u Rwanda Kagame.

Umudamu wicaye wambaye amadarubindi n'umusatsi mwiza w'umukara wambaye agakote k'umukara n'agashati k'ubururu bwerurutse ubona ko yitegeye neza abereye ijisho ari umuntu ukeye usa neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, bari mu nzu igezweho kandi itatse imitako ibitandukanye, bicaye ku ntebe nziza z'imikara, imbere yabo hari ibinyobwa by'amazi n'indangururamajwi, aho bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, nko kuvugutira ibibazo babishakira umuti.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza ufite isuku, ubereye ijisho harimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibikomoka ku mazi, ku nkengero z'umuhanda hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, gateyemo inkingi iriho urumuri rumurikira umuhanda.

Ikinyabiziga kinini cyagenewe gutwara abantu kibavana mu gace kamwe kibajyana mu kandi, kiri kugenda ahari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda mugari ufite isuku kandi ukeye usa neza.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza ufite isuku aho hari kugendamo ikinyabiziga cy'umweru inyuma hari, amapikipiki iruhande ari akayiye kaba nyamaguru.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari ufite isuku kandi ukeye, hari kugendamo ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, icyerekezo kiri kumanuka harimo imodoka ifite ifite ibara ry'icyatsi cyijimye, indi ifite ibara ry'umweru iri kujya mu cyerekezo gitandukanye n'ik'iyindi.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu, gifite amabara y'ubururu n'umweru, gihagaze ahabugenewe, gitegereje gupakira abantu, iruhande rwacyo hari umudamu wicaye, wambaye umwambaro ufite ibara ry'umuhondo...

Umuhanda mwiza, ufite isuku kandi ukeye, urimo ikinyabiziga cyagenewe kwikorera imizigo, hepfo yacyo hari akayira k'abanyamaguru bari kugenda bisanzuye no hepfo hari ahateye ibimera by'ibiti.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari, ufite isuku kandi utekanye, hagaragaramo ibinyabiziga bitandukanye n'abayobozi babyo, ipikipiki itwawe n'umuyobozi wayo, inyuma hari umugenzi n'imodoka ifite ibara ryera, yifashishwa mu gutwara.

Umuhanda mugari ufite isuku urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu, gifite ibara ry'umweru aho kiri kugenda ahantu heza kandi hafite isuku.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitwara ibikomoka kuri mazutu inyuma hari amapikipiki ku ruhande hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, aho iyo modoka yikorera ibijyanye na mazutu ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda mugari kandi mwiza ufite isuku, urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara amazi, gifite ibara ritukura n'ubururu kiri kugenda mu muhanda. Ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru kegeranye n'ahateye ibidukikije.

Igikorwa remezo cy'umuhanda ufite isuku kandi mugari hagaragaramo ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibicuruzwa inyuma yacyo ari ipikipiki ku nkengero z'umuhanda hari umudamu uri mu gikorwa cy'ubucuruzi bw'ibisheke uhagaze mu gahanda k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari kandi mwiza, urimo ibinyabiziga byagenewe gutwara imizigo, ku nkengero zawo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, hepfo hateyemo ibidukikije by'ibiti.

Igikorwa remezo cy'umuhanda ufite isuku kandi ukeye hari kugendamo ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu kibavana mu gace kamwe kibajyana mu kandi ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru ubona harimo n'abanyamaguru bari gutambuka bishimye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza ufite isuku harimo imodoka ntoya yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu aho ku ruhande rwo hepfo rw'ibumoso hari amapikipiki yifashishwa mu gutwara abantu; ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru gateyeho ibiti byiza cyane!

Igikorwa Remezo cy'umuhanda cyubatse neza gifite isuku, ku ruhande rw'ibumoso hari umutwazi w'ipikipiki, ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru kegeranye n'ahateye utwatsi dushishe, n'ibiti biri ku nkengero z'ako kayira k'abanyamaguru kegeranye n'igipangu gisize ibara ry'umweru.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga byagenewe kwikorera imizigo n'amapikipiki n'abayobozi bayo, ku nkengero zayo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru n'inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda mugari kandi mwiza ufite isuku, urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu, iruhande rwacyo hari abayobozi b'amagare, batwaye imizigo kuri ayo magare bari kugenda bayasunika, ku nkengero zabo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru aho iruhande rwako hari inzira zagenewe kunyurwamo n'amazi.

Abantu benshi bahuriye mu mbuga ngari, bicaye ubona buri wese ahuze ari muri gahunda ze, aho hari n'utuzu twiza cyane tuberewe no kuruhukiramo, hateye n'ibidukikije.

Ikibuga cy'imyidagaduro cy'umukino w'amaboko, gisizemo amabara atukura, harimo inyuguti z'amagambo zandikishije mu ibara ry'umweru, ku nkengero zawo hari ahateye ibyatsi byiza n'ibiti, hari n'uruzitiro rw'amatafari ahiye.

Iki ni ikirango kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, gikozwe mu muzenguruko, cyerekana inzira itegetswe, cyangwa umuhanda ugomba kunyuramo.

Ikirango cy'icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite amabara y'umuhondo n'umukara, kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ahagenderwa ku muvuduko mucye kandi uhagije kugirango utabangamira ibindi binyabiziga.

Ikirango cy'icyapa cya mpande enye, kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, cyerekana umuhanda ushamikiye ku wundi, ukata ibumoso.

Ikirango gishinze ku nkengero z'umuhanda, cyerekana ko imbere hari ikoni mu muhanda mugari ufite isuku, aho iruhande rwacyo hateye ibimera by'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga, binatuma ahantu hasa neza.

Ikirango kiri ku nkengero z'umuhanda, cyerekana, cya mpandeshatu, harimo ibara ry'umutuku n'umukara, cyerekana ko mu muhanda imbere hari ikoni, ku ruhande rwacyo hari inzu zagenewe gukorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Ikirango cya mpande eshatu kiri mu mabara y'umutuku n'umukara, cyerekana ahanyurwa n'abanyamaguru, bambukiranya umuhanda, bava mu gice kimwe bagana mu kindi, bityo umutekano ugasakara mu bagenzi n'abayobozi b'ibinyabiziga.

Ikirango kigaragaza ko imbere hari gukorerwa imirimo yo kubaka cyangwa gusana, iruhande rwacyo hari ubusitani bwiza buteguye neza, kandi ubona ko bukorewe isuku nta myanda irimo.

Ikirango cy'icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite ibara ry'umutuku n'umukara, gishinze ahantu mu bidukikije harimo ibiti n'ibyatsi bisanzwe, cyerekana umuhanda ufite ikorosi ibumoso.

Ikirango kiri mu mabara y'umutuku n'umukara, gikoze mu ishusho y'umuzenguruko, cyerekana ko nta kinyabiziga cyemerewe kuhahagarara cyangwa kuhanyura.

Umurima uhinzemo ibimera bitandukanye, harimo ibiribwa n'ibitaribwa, ku nkengero zawo harimo umuhanda mwiza ugendamo ibinyabiziga, ku ruhande hari ahantu hagenewe guturwa n'abantu.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara y'umweru, amasakaro y'umutuku yubatse ikomeye, imbere hari imbuga ngari, hari n'ahateye ibimera bitandukanye, bifasha mu gutanga umuyaga.

Ikibanza kinini kirimo ibidukikije byiganjemo ubwatsi bwa kimeza, hegeranye n'inzu zagenewe guturwamo n'abantu, zubatse neza kandi mu buryo bugezweho bugeretse.

Ibikorwa remezo by'amazu meza yubatswe mu buryo bwa kijyambere ageretse, ari ahantu hagenewe guturwa n'abantu ubona hafite umutekano n'isuku, hateye ibiti byiza hanze.

Umudugudu mwiza cyane uri Kibagabaga, utuwe n'inyubako nziza cyane, indende zigeretse n'ingufiya, ubona ko ari ahantu hakeye kandi hari ibiti, hari akayaga keza, hari indabo, hari inzitiro z'ingo zitandukanye, ubona ko ibintu bisa neza, ubona ko.

Igikorwa remezo kigaragara cyane, gisa nk'aho kiri hejuru, ari umuturirwa wo ku kibuga cy'indege wegeranye n'ibiti byiza cyane bisa icyatsi, hepfo ubona hatuye abaturage.

Umuhanda mugari kandi mwiza, ku nkengero zawo hari imiyoboro yagenwe gucamo amazi, aho ku nkengero zawo hateye ibiti, hari n'amazu y'ubucuruzi n'ayo guturwamo.

Igikorwa remezo cyiza ubona kibereye ijisho ry'ikibuga cy'indege aho hifashishwa n'abagenzi bava mu gihugu kimwe berekeza mu kindi batwawe n'indege zihaparika ubona inyuma yaho hari ibiti byiza haturanye n'abaturage.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari, urimo imirongo igororotse, ifite ibara ry'umweru, ariho abanyamaguru bambukira, harimo n'ibimenyetso by'amatara bicana biburira ibinyabiziga n'abagenzi, igihe cyo gutambuka.

Umuhanda mugari ufite isuku kandi ukeye urimo imirongo icagaguye ku nkengero z'umuhanda, hateye ubusitani buri ku buso butoya hagati mu muhanda harimo icyapa cyamamaza.

Umuhanda mwiza ugezweho kandi ufite isuku w'iteme, harimo ikinyabiziga, ku nkengero z'umuhanda hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru aho harimo abagenzi bari kugenda hejuru y'uwo muhanda ni iteme rikoze mu muhanda.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza, ufite isuku, ubereye ijisho, usizemo imirongo y'umweru n'umukara, ari aho abanyamaguru bagenewe kwambukira kugira ngo ibinyabiziga bitababangamira, harimo abakobwa babiri bari kwambuka, imbere yabo hari umutwazi w'ipikipiki.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari kandi ufite isuku, ku nkengero zawo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, harimo imirongo y'umweru yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru bava mu gice kimwe cy'umuhanda, bambukiranya mu kindi, aho ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti byiza cyane.

Igikorwaremezo cy'umuhanda mwiza, mugari, kandi ugezweho, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibyagenewe gutwara abantu benshi n'ibindi by'amapikipiki biriho umuyobozi wabyo n'abagenzi, aho biri kugenda mu byerekezo bitandukanye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari, wubatswe mu buryo bugezweho, hari amatara ndangarumuri, yerekana ibigiye gukorwa mu muhanda, yaba ari abagenzi bagiye gutambuka, cyangwa ari ibinyabiziga, ayo matara yifashishwa mu kubyerekana, aho harimo ibinyabiziga biri kugenda bibisikana.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mugari, urimo imirongo ifite ibara ry'umweru, ahagenewe kunyurwa n'abanyamaguru, bambukiranya umuhanda, bava mu gice kimwe bajya mu kindi, hagati hateyemo ubusitani n'ibiti byiza cyane, ubona ko bibereye ijisho.

Umuhanda mugari kandi urimo amakoni, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, yaba ibitwara imizigo ndetse n'ibitwara abagenzi, higanjemo amapikipiki, harimo n'umuhanda usa neza, kandi utuyemo n'ibidukikije bituma ugaragara.

Igikorwa remezo cy'umuhanda ku nkengero zawo hari akazu gatoya kagenewe kwicarwamo n'abagenzi bategereje ibinyabiziga bibavana mu gace kamwe bibajyana mu kandi mu mutuzo izuba ritarishe cyangwa ngo imvura ibanyagire bakabasha gutegereza ibinyabiziga neza.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza uhura n'uwundi utambika, aho ku nkengero z'umuhanda hari inkingi y'amashanyarazi yifashishwa mu kumurikira umuhanda, hepfo yawo hari ahateye ibidukikije by'ibiti n'ubwatsi bwiza.

Igikorwa remezo cy'umuhanda mwiza mugari ufite isuku, ku nkengero zawo hateye ubusitani burimo ibiti, yegeranye n'inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru aho baba bafite umutekano usesuye.

Igikorwaremezo cy'umuhanda mugari kandi ufite isuku, ku nkengero zawo hari ubusitani bwubatse mu buryo bw'ikiziga aho ibinyabiziga binyura bizengurutse, hateyeho ibiti ubona ko hafite isuku kandi hakeye n'ibinyabiziga biri kuza mu byerekezo bitandukanye.